Abahinzi akenshi usanga bakunda guhinga bagasasira imyaka kugira ngo imere neza, bayirinda kuzamo ibyatsi byinshi ndetse bayifumbira kugira ngo babone umusaruro.

Umwungu, ni urubuto abantu bakoresha mu buzima bwa buri munsi, kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza, umwungu kandi ugira intungamubiri zigiye zitandukanye.

Abahinzi ukunze gusanga batunda ifumbire ubona ko bafumbira imirima yabo kugira ngo bazabone umusaruro w'ibanze kandi babone inyungu rusange. Ni na yo mpamvu usanga barunda ahantu hamwe ifumbire.

Inyubako icururizwamo ibikoresho by'ikoranabuhanga, arizo amatelefone, radiyo, televiziyo ndetse n'ibindi bikoresho. Imiryango yose irafunguye kandi bategereje abakiriya.

Umugabo ukora ubuhinzi bw'ibigori, avuga ko iyo uhinze neza usarura maze ukiteza imbere ugateza imbere n'abandi mu buryo ubwo aribwo bwose.

Imiti myinshi, ikunze kuba muri za farumasi zitandukanye. Akenshi usanga bayicuruza kugira ngo, abahinzi babone amafaranga yo gukoresha.

Abakoresha ifumbire mvaruganda, bavuga ko ifumbira neza kurusha ifumbire ikomoka ku matungo, niyo mpamvu bashishikariza abahinzi, gukoresha imvaruganda kuko ariyo yeza.

Ahacururizwa imiti igiye itandukanya y'amoko yose, aho abahinzi ndetse n'aborozi bakunda ku kugu imiti, kugira ngo ibihingwa ndetse n'amatungo abashe kumva ameze neza.

Icyumba gikorerwamo ubucuruzi bw'imiti, bigaragara ko ari cyiza kandi abahinzi bakaba baza kuyigura, bikaborohera kandi bitabagoye.

Icyumba kirimo umugabo ubona ko ari guseka, uwo mugabo yambaye ishati y'umukara wagira ngo arimo arabarura ibintu byinshi bigiye bitandukanye.

Abagabo bari gutera imvaruganda ku myaka, bigaragara ko ari abayobozi bambaye imyenda y'ubururu, icyatsi ndetse n'umutuku, aho bashyiraho ifumbire ku bigori.

Inanasia akenshi zikunda gutanga umusaruro, hamwe n'amashu nayo yifashishwa mu gihe bari guteka maze agatanga umusaruro w'igihe gitoya.

Imirima imwe n'imwe ikunze guhingwamo ibihingwa bitandukanye, ugasanga abahinzi babona ifumbire, bagafumbi iyo mirima yabo kubera ko amatungo aba yayibahaye.

Amashu akenshi ukunze gusanga ahingwa mu bishanga kugira ngo atange umusaruro, akaba ari yo mpamvu abahinzi bashishikarizwa guhinga amashu.

Ibirayi ni igihingwa cyiza gitanga umusaruro ku bahinzi, aho babona amafaranga bakayakoresha bakemura ibibazo bitandukanye ndetse bishyurira abana amashuri.

Ibinyomoro akenshi bikunda kwera mu gihe cy'impeshyi, kuko ntibikunda imvura nyinshi cyane. Ni yo mpamvu usanga abahinzi babyo babihinga mu mpeshyi kugira ngo babone amafaranga.

Abahinzi benshi bahinga ibigori usanga bavuga ko babona amafaranga menshi cyane, bakayakoresha mu bikorwa by'iterambere, ni yo mpamvu usanga abahinzi babona amafaranga.

Abantu benshi usanga batema ibyatsi, bakabijyana mu murima kugira ngo bafumbire imyaka, rimwe na rimwe ugasanga aba ari ifumbire.

Ibidukikije ni ingirakamaro kuko akenshi usanga tubikoresha mu buzima bwa buri munsi. Ibidukijije kandi bituma tubasha guhumeka.

Igihingwa cy'imyumbati ni igihingwa cyiza gitanga umusaruro kuko abantu benshi bagifumbiye babona umusaruro mu buryo bworoshye kandi bwihuse bityo ntibazicwe n'inzara.

Akenshi na kenshi usanga ibidukikije ari ingirakamaro kuko akenshi bifasha abantu kumva baguwe neza, ibidukikije kandi bikurura imvura, ibihingwa bikamera neza.

Abahinzi b'imboga akenshi bakunze kuvuga ko iyo bari guhinga babona umusaruro mwinshi akenshi bakabona amafaranga avamo aba ari menshi.

Inanasi ni igihingwa cyiza gitanga umusaruro, abantu bakabona amafaranga bifashisha mu bikorwa bitandukanye by'iterambere, ndetse bakabona n'amafaranga yo kwishyurira abana ku ishuri.

Umugabo uri guhinga ibitunguru kugira ngo ashake amafaranga yo kwiteza imbere. Abantu benshi bakunda gukora umushinga w'ubuhinzi, bakabona amafaranga menshi cyane.

Ubworozi bw'ingurube ni ubworozi butanga umusaruro, aho usanga aborozi babona amafaranga menshi cyane, bifashisha mu bikorwa byabo bya buri munsi.

Iyo umuntu arwaye akoresha imiti y'amoko atandukanye kugira ngo arebe ko yabasha gukira, niyo mpamvu rero kwirinda biruta kwivuza.

Ubworozi akenshi ukunze gusanga butagoye kuko abahinzi baba bafite ibyo baha amatungo yabo, bityo bikabasha gutuma aya matongo akura.

Imiti y'amoko agiye atandukanye, iri mu macupa ariho igipapuro cy'umweru ndetse n'andi mabara agiye atandukanye, bigaragara ko ari muri farumasi.

Imiti myinshi usanga ivura indwara zitandukanye, ukabona ko iyo wivuje ubasha gukira kandi kwirinda biruta kwivuza.

Umukobwa uri gutera imboga mu karima k'igikoni, yambaye umupira w'umweru. Kenshi imboga iyo zitetswe neza usanga zifite intungamubiri zigiye zitandukanye.

Akenshi usanga abahinzi, bahinga ibintu bitandukanye bikabaha amafaranga, ariyo mpamvu usanga barabigize umwuga kandi ari ingirakamaro.

Abantu bari gukora ibikorwa by'umuganda, ubona ko bahurije hamwe imbaraga kugira ngo bakore ikintu gikomeye, harimo abagabo ndetse n'abagore n'urubyiruko.

Ishyamba iyo rifashwe neza, ririnda abantu kuba bahura nk'inkubi y'umuyaga, kuba bahura n'impanuka zitandukanye ziturutse ku muyaga.

Abahinzi benshi ndetse n'aborozi, bakunda kubikuramo amafaranga menshi. Niyo mpamvu usanga barabigize umwuga bityo bigatuma babasha kwiteza imbere, bagateza n'imbere igihugu.

Iyo abantu bari mu muganda, usanga bahuriza hamwe imbaraga, maze bagakora igikorwa kigaragara, niyo mpamvu usanga abayobozi babishishikariza abaturage.

Abantu benshi, bakunze kugaragaza imbaraga nke zabo maze, bamara kuzigaragaza bagacika intege. Iyo wacitse intege haza undi akabasha gukora.

Abahinzi ubona ko bari mu gikorwa cy'umuganda, ni benshi cyane kandi biragaragara ko aba bahinzi bakoze cyane kuko barimo kugenda bafashanya.

Umukobwa wambaye umupira w'umukara, ari kumwe n'umubyeyi we. Barimo baratunda ifumbire kugira ngo bahinge ibihingwa bitandukanye.

Umugabo uri gukora ubuhinzi, bigaragara ko ari gutera imbuto agenda acukura utwobo ashyiramo ifumbire, hanyuma yarangiza agashyiramo imbuto maze zikazera neza.

Abantu bari gukora umuganda, bigaragara ko bahuje imbaraga kugira ngo bagire ikintu gikomeye bakora ndetse babashe no gufashanya hagati yabo.

Abahinzi akenshi bakunze kurangwa no gukoresha ibihingwa bitanga umusaruro cyangwa se amafaranga, bityo bikabafasha kwiteza imbere.

Umusozi uriho ibihingwa bitandukanye, hariho imyumbati, ishyamba, imyembe, avoka ndetse n'ibindi.

Ibigori ni igihingwa cyiza gitanga umusaruro, kuko usanga abahinzi babyo bababona amafaranga, bakayifashisha mu bikorwa bigiye bitandukanye, bibaha amafaranga.

Abahinzi benshi bakunze guhinga maze bagasarura ibyo bahinze bakabihunika, bityo rero usanga babona amafaranga menshi maze bakayakoresha.

Ibirayi akenshi usanga bihingwa mu murima munini, wagutse kandi mwiza cyane, ubona ko uwo murima uhingwamo ibihingwa by'amoko agiye atandukanye kandi byinshi.

Avoka ni igihingwa cyiza gitanga umusaruro ku bantu batari bake, akaba ariyo mpamvu rero abahinzi barangura ibintu bifite uburambe kuko iyo bahombye nawe urahomba.

Ibirayi ni igihingwa cyiza gitanga umusaruro mu buryo bworoshye, aho usanga abantu bahawe amafaranga agendanye n'ibyo bakora, bakaba batayabyaza umusaruro mu buryo bwa nyabyo.

Abahinzi b'ibisheke usanga bavuga ko babona amafaranga. Iyo babikoreye bagashyiraho ifumbire, bagateraraho n'imiti, usanga babona amafaranga menshi.

Ibihingwa byinshi byo mu murima, usanga bikunze gushyirwaho ifumbire, kugira ngo bibashe gutanga umusaruro, akaba ariyo mpamvu abahinzi bashishikarizwa gushyiraho ifumbire.

Ishyamba ry'inzitane bigaragara ko ari ishyamba ririmo ibiti byinshi, harimo umuhanda unyuramo hagati bigaragara ko ari mwiza.

Ibidukikije akenshi ukunze gusanga hari abakunda kubitema kugira ngo babikoreshe ibikorwa bitandukanye, ariko usanga atari byo kuko baba barimo kwangiza ibikorwa bya leta.

Ibyatsi byinshi biri ku musozi, ubona ko biri ahantu hateye ibiti ndetse n'imbuto, bigaragara ko ari heza kandi hasa neza.

Imitako usanga akenshi ikunze kugaragara ku nyubako z'abakire, akaba ari yo mpamvu abakire bakunda kugira indabo imbere y'inzu zabo.

Ibidukikije ni ingirakamaro kuko bidufasha guhumeka umwuka mwiza, akaba ari yo mpamvu bidufasha kumva tumerewe neza bityo tugatera imbere mu bikorwa byose dukora kandi twishimye.

Umugabo uri guhinga mu kabande, yambaye imyenda y'umuhondo. Hijya ye hari ibigori byinshi cyane bigaragara ko ari umuhinzi wabigize umwuga.

Abahinzi b'inyanya bakunda gusasira kugira ngo inyanya zibashe kuba zimeze neza kandi n'umusaruro uziyonge niyo mpamvu usanga batera imiti kugira ngo umusaruro wiyongere.

Abahinzi benshi bakunda guhinga inyanya ndetse na karoti kuko ari byo bifasha cyane. Ni yo mpamvu, ahantu bakunda kubigura kugira ngo babone uko basagura amafaranga.

Umwembe ni urubuto rwiza umuntu ashobora, kurya akumva aguwe neza. Bityo akaba yagira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, ubona ko ikomeye, iyi nyubako yubatswe n'abafundi babigize umwuga ku buryo ikomeye kandi itabasha guhirima.

Inyubako nini ifite indabo inyuma yayo ubona ko yubatse neza kandi aho hantu hakeneye kuba hakitabwa kugira ngo hase neza naho.

Abahinzi bavoka bakunda kuzihinga bagashyiraho ifumbire ndetse mu gihe cy'imvura usanga zarakuze zikabaha umusaruro, bakabona amafaranga bifashisha.

Ubuhinzi bwinshi usanga bukunze kuba butanga umusaruro ku bahinzi maze bakabona amafaranga bifashisha mu gukora ibikorwa bitandukanye.

Indabo ziteye inyuma y'igipangu, zizengurutseho usanga akenshi abakobwa bakunda gutera indabo ku nzu zabo kugira ngo hagaragare neza.

Ibitunguru ubona ko ari iby'agaciro cyane kuko bigura amafaranga menshi, biteza imbere abahinzi, bakabasha kubona amafaranga, ibi bihingwa ni ingirakamaro.

Wambwiye ko ushaka amashu ariko nagiye ku isoko, ngiye kuyareba nsanga yarahenze. None ubu ngubu rero nakuzaniye ibindi bitari amashu.

Umukecuru uri guhinga mu karima k'igikoni, yambaye ikoti ndetse yiteze n'igitambaro mu mutwe, bigaragara ko yishimiye igikorwa ari gukora.

Abahinzi iyo babonye umusaruro, barihirira abana babo, ugasanga bafite amafaranga menshi cyane, bityo bikabafasha kwiteza imbere, bagateza n'imbere igihugu muri rusange.

Inyanya akenshi usanga zitanga amafaranga menshi cyane, ku bahinzi bazo bavuga ko zibateza imbere, bakabasha kubona amafaranga, bakoresha mu bikorwa bigiye bitandukanye.

Ibinyomoro bikunze kuba bihenda cyane kubera ko akenshi abahinzi babihinga baba barabuze imbuto ndetse n'ifumbire, akaba ariyo mpamvu bihenda.

Karoti ni igihingwa cyiza gituma abantu babona amafaranga, kuko akenshi bakunda kukigikoresha batetse, niyo mpamvu usanga abahinzi benshi bakunda guhinga iki gihingwa.

Inyanya ni ingirakamaro kuko ziha abahinzi amafaranga yo gukemura ibibazo bimwe na bimwe bigiye bitandukanye ndetse bigafasha abantu kwinjiza amafaranga.

Abahinzi benshi iyo bafite imbuto bakavomerera imyaka yabo, bumva bishimye akaba ari yo mpamvu iyo imvura iguye, usanga abantu imirimo yabo yagabanutse.

Umugabo uri kuvomerera inyanya akoresheje ipombo, bigaragara ko ashaka kugira ngo abone umusaruro mwinshi ndetse agurishe inyanya nyinshi ku isoko.

Imisozi igiye itandukanye ihinzeho amaterasi. Bigaragara ko ari ahantu mu cyaro, habaye umwero. Bigaragara ko ari impeshyi.

Ibishanga byinshi bikunze guhingwamo imiceri, kuko akenshi mu mpeshyi usanga izuba ryaravuye, akaba ariyo mpamvu bashishikarizwa guhinga ibishanga.

Umurima munini uhingwamo ibicuruzwa by'amoko atandukanye nk'intoryi, inyanya, ndetse n'ibindi bihingwa by'amoko agiye atandukanye, bitanga amafaranga ku bahinzi.

Amatungo abiri akenshi usanga iyo bayajyanye ku isoko babaha amafaranga menshi, bakabasha gukemura ibibazo bigiye bitandukanye bahura na byo mu buzima bwabo.

Abakora ubworozi bw'inkoko bavuga ko inkoko zibaha umusaruro. Akaba ari yo mpamvu bashishikariza abantu bose gukora ubworozi bw'inkoko kuko babona amagi bakabona n'amafaranga.

Inka iyo zitaweho cyane zitanga umusaruro ndetse n'ifumbire. Akaba ari yo mpamvu abahinzi n'aborozi, bakunda gukoresha ifumbire yavuye ku matungo maze bakeza.

Abantu bazi korora ku buryo amatungo yabo usanga abyibushye kandi arya neza, ni yo mpamvu usanga bafite amafaranga.

Aborozi b'inkoko bakunda kuvuga ko inkoko zitera amagi menshi, agatuma biteza imbere ndetse bagateza n'imbere abandi. Ni yo mpamvu abantu benshi usanga barabigize umwuga.

Ikiraro cy'amatungo ubona ko gisakaje amabati, habamo amatungo nk'ingurube, inka, ihene, inkwavu ndetse n'ayandi matungo.

Kenshi aborozi bavuga ko bahura n'imbogamizi zo kubura ubwatsi mu gihe cy'impeshyi, ariko ugasanga baziha amazi, kugira ngo zidakomeza kugira ikibazo.

Rimwe na rimwe usanga abantu bavuga ko ingurube itanga amafaranga menshi. Ugasanga hari aborozi babigize umwuga, baba bafite amafaranga, bakoresha imishinga yabo igiye itandukanye.

Ihene akenshi zikunda kororoka. Niyo impamvu usanga aborozi benshi bakunda kuzorora kugira ngo babone amafaranga, bifashisha mu bikorwa bimwe na bimwe bigiye bitandukanye.

Aborozi bavuga ko iyo bitaye ku matungo yabo babona amafaranga. Akaba ariyo mpamvu abantu bashishikarizwa gukora ubworozi kugira babone amafaranga bazajya bifashisha mu bikorwa byabo.

Ingurube iyo yabwaguye usanga nyina iri kugenda izonsa kugira ngo zibashe gukura, ni yo mpamvu aborozi babona amafaranga menshi bitewe nuko baba bafite amatungo menshi.

Ubworozi bugezweho akenshi bujyana no kwiteza imbere kuko abenshi iyo bafite amafaranga ntabwo bakora ibikorwa by'iterambere nk'uko bikwiye.

Abahinzi benshi bakunze kuvuga ko iyo bafite ifumbire babona amafaranga. Akaba ariyo mpamvu bashishikarizwa guhinga ndetse bakabona umusaruro. Iyo bashyizeho ifumbire babona amafaranga.

Abahinzi benshi bakunze guhinga imbuto zitandukanye, ku buryo usanga barabigize umwuga, akaba ari yo mpamvu bashishikariza bagenzi babo guhinga kugira ngo basheshe kubona amafaranga bifashisha.

Umurima w'ibigori ndetse n'amateke, bigaragara ko uhingwamo n'abantu benshi cyane, bityo bakabona amafaranga, ni ahantu ubona ko ari heza.

Akarima k'igikoni karimo imboga zitandukanye, hepfo hari urutoki rwinshi cyane, ndetse hakaba hari n'abantu babiri barimo kuganira.

Ibigori ni gihingwa cyiza, giteza abantu imbere. Iki gihingwa kandi usanga gikunda kwera mu gihe gito.

Ibidukikije akenshi ukunze gusanga bikunda kuba ahantu hataba abantu, mk'urogera mu ishyamba haba hari ibiti byinshi bitandukanye.

Amashu atuma abantu babona ibiribwa byo guteka ndetse abahinzi bakabona amafaranga yo gukemura ibibazo bigiye bitandukanye bagenda bahura na byo mu buzima bwa buri munsi.

Ibigori bimanitse akenshi usanga iyo byumye babivungura bakabiteka bakabivanga n'ibishyimbo, rimwe na rimwe ukumva birakomeye.

Abahinzi bakunda kuvuga ko bakenera ifumbire kugira ngo bashyire ku bihingwa byabo, babone amafaranga bifashisha mu buzima bwa buri munsi. Niyo mpamvu bitabira ubworozi ari benshi.

Umugabo uri gutera inka urushinge bigaragara ko ari kuyikingira indwara zigiye zitandukanye, uwo mugabo yambaye ingofero n'ishati irimo amabara y'umweru n'umukara.

Umugabo uri kuvura inka, bigaragara ko ari kuyitera urushinge kugira ngo ayikingire indwara zigiye zitandukanye, uyu mugabo yambaye ikote ry'ubururu n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara.

Umugabo wambaye isarubeti y'icyatsi ari gukingira inka indwara zigiye zitandukanye, ari kumwe n'abandi bagabo babiri bamufashije iyo nka kugira ngo ayitere urushinge.

Inyamaswa zo mu ishyamba zikunze kuba ziryana, ariko hari n'inyamaswa zitaryana zikunda kwirira ibyatsi, ni yo mpamvu abakerarugendo bajya mu ishyamba nta kibazo bafite.

Ba mukerarugendo iyo bagiye muri pariki zigiye zitandukanye, usanga bunguka byinshi kandi bakabona ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Akaba ariyo mpamvu babona amafaranga.

Inyamaswa akenshi ukunze gusanga ziba mu ishyamba, akaba ariyo mpamvu ku manywa utabasha kuzibona, zikunze kubaho zihishe kuko ziba zitinya abantu.

Inyamaswa nyinshi zikunda kwibera mu ishyamba, kenshi ugasanga zirimo kwirukanka kubera ko zitinya intare.